Iyi ni ishusho igaragaza ko hari amafaranga yari yoherejwe mu buryo bw'ikoranabuhanga, ariko uwayoheje yagize urujijo kuba amafaranga ataragera aho yayohereje cyangwa se ashaka gusobanukirwa ikibazo kirimo ndetse asubizwa ko amafaranga akiri mu nzira.

Iyi shusho iragaragaza icyemezo cy'ubwishingizi gitangwa n'ikigo cy' igihugu gishinzwe imisoro ndetse kigaragaza uno muntu ubwishyu yishyuye ndetse n'ibihano yagiye acibwa.

Iyi shusho igaragaza intebe nziza zikozwe mu biti byimbaho zikoranywe ubuhanga ndetse zigaragara ko ziri mu nzu ifite isuku nyinshi inyuma yazo hari ikigaragara nkaho ari akabati.

Iyi shusho igaragaza ibikoresho bikozwe mu mbaho birimo intebe zikoze mu misego, utubati ndetse n'igitanda.

Iyi shusho iragaragaza, icyapa cyanditseho ngo:"Ishimire inguzanyo itagira ikiguzi",ndetse kigaragaza umuntu w'igitsina gore, ufite akanyamuneza ndetse ni icyapa kibereye imenyekanishabikorwa.